Abantu bateraniye mu nama, bicaye mu ntebe zisa umukara, harimo abagore babiri bafite imisatsi y'umukara, bafite amazi imbere yabo.

Icyumba kirimo abagabo benshi, bamwe bafite mudasobwa, abandi bambaye amadarubindi, abandi bambaye imyenda myiza cyane, iri mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bicaye munsi y'igishararagati gisize amabara y'igihugu cy'u Rwanda, arimo umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Abagore batatu batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza ndende, uwo ku ruhande afite telefone, uwo hagati afite ikaramu, uwanyuma afite igitabo mu ntoki.

Inama irimo abagabo bakomeye bari muri Polisi ndetse no mu Gisirikare bicaye mu ntebe imbere yabo hari imeza.

icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bari mu nama bicaye ku ntebe bafite amazi imbere yabo bambaye imyenda y'icyubahiro isa imikara n'ubururu.

Icyumba kirimo amakaro y'umweru, kirimo abagore n'abagabo barenga icumi, bicaye hamwe bari gukurikirana, ijambo kuri rindi bafite amazi imbere yabo.

Icyumba kinini cyane, kirimo abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amakaye hasi ku meza.

Inyandiko iriho amagambo afite itangiriro, cyandikishijwe amagambo y'icyatsi, andi magambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hariho ingingo eshanu.

Umugabo mukuru wambaye ishati y'umweru n'umukandara, ari kugenda mu muhanda ku ruhande hari ibyapa bisa umutuku, umuhondo n'ubururu.

Inzu iriho urugi rumwe rufunguye iriho n'amadirishya abiri abonerana, hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo y'ikinyarwanda, mu ibara ry'umweru.

Akazu gato gafite inzugi ebyiri n'ibirahure bishushanyijeho ibigo by'itumanaho, bisigishijwe mu ibara ry'icyatsi, umutuku n'umuhondo.

Igiti kirekire cyane, kiriho itara ndetse gifasheho insinga z'amashanyarazi, ku ruhande rwaho gato, hari idarapo ry'u Rwanda rimanitse n'imodoka ifite amabara y'icyatsi.

Inzira imwe irimo imodoka ebyiri ziteranye imigongo, imwe ifite amabara y'umutuku, umuhondo n'umukara, ifiteho umusaraba, werekana ko ikora ubutabazi bw'ibanze.

Inzira ikikijwe n'amazu menshi, harimo imodoka nyinshi zizwi nk'iz'ubutabazi zitwara abarwayi bakomerewe kwa muganga.

Inzira igana mu muryango w'ibitaro, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye umupira muremure w'icyatsi, ku ruhande rw'iburyo haparitse amamodoka atatu.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye ibitaro bikuru bya kaminuza ya CHUB, urimo imodoka ziri kuwugendamo.

Umugabo wigikara wambaye ingofero isa umukara, hejuru harasa umuhondo yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abantu batanu mu cyumba, harimo batatu bicaye bambaye amakanzu atukura n'ingofero, abandi bambaye amakanzu y'umukara, bamanitse ukuboko, bafashe ku idarapo.

Abapolisi batatu, bambaye impuzankano, bari kumwe n'abanyeshuri benshi, imbere yabo hari ibikoresho bifasha kuzimya umuriro mu gihe wateye.

Abagabo batatu, babiri muri bo bambaye amakote uwo hagati afite igipapuro cy'umweru imbere ye hari indangururamajwi ari kugeza ijambo ku baturage.

Abantu benshi bari kugenda mu nzira imwe, ku ruhande hari imodoka iri gucaho yegereye ubusitani, kurundi ruhande hari amazu asa.

Ahantu hateraniye abantu benshi bashungereye umuntu umanitse akaboko, bambaye ishati y'umweru hanze haparitse amamodoka.

Minisitiri w'Intebe mu Rwanda, igihumbi kimwe mahana acyenda mirongo icyenda na kane witwa Uwiriningimana Agatha yicaye mu ntebe yambaye ibitenge.

Ikirangantego kizengurutswe n'amagambo hasi no hejuru, ari mu ndimi z'icyongereza, ikinyarwanda n'igifaransa, hagati harimo ururabo rutukura, n'ikiganza cy'umuntu.

Abayoboke b'ishyaka ryo mu Rwanda bambaye ingofero ziri mu ibara ry'umweru, umutuku n'ubururu, baje gushyigikira uwiyamamaza.

Umugore w'imibiri yombi, wambaye ishati y'umweru, ufite umusatsi w'umukara, uri mu cyumba kirimo n'abandi bantu, hacanyemo amatara, afite ikaramu, n'ikayi hasi.

Icyumba cyicawemo n'abantu biganjemo abagore n'abagabo bakuze bicaye mu ntebe z'umukara, bafite indangururamajwi kuri buri ruhande n'agacupa k'amazi.

Umugabo w'igikara wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, yicaye imbere y'amadarapo menshi arimo amabara y'umuhondo, ubururu, umutuku, umweru, icyatsi.

Imodoka ndende cyane ifite amabara asa ubururu n'amapine y'umukara, iri muri gare yegeranye n'izindi modoka, hejuru hari itara riri kwaka.

Mu muhanda usukuye neza, ukikijwe n'ibiti ku ruhande, hari gucamo abanyonzi babiri n'amagare yabo ndetse n'imodoka nini itwara abagenzi.

Umuhanda urimo imodoka zigenda n'izindi zihagaze, zipakiye imifuka, harimo amamoto, amagare atwaye abantu.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikamyo igizwe n'amabara y'umutuku, icyatsi n'umukara izwiho kwikorera ibicuruzwa ibyambutsa imipaka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ndende itwara abagenzi benshi, ku ruhande hari umunyamaguru wambaye umupira w'umukara n'inkweto z'umukara zirimo n'akabara k'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ipikipiki yitambitswe n'igikamyo kinini kigiye gukata ku ruhande rw'iburyo, inyuma yacyo hari umuntu uhagaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo idafite ikintu itwaye, urimo ipikipiki itwaye umugenzi ndetse n'imodoka y'umweru, iri kugenda igana imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragiwe n'ibiti bito, birebire, uri kugendwamo n'abantu, ikamyo isa umweru n'igare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyamaguru wikoreye umufuka, imodoka itwaye abagenzi ndetse n'amapikipiki abiri atwaye abantu.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Umugore wambaye umwenda w'umuhondo uri munsi y'umutaka, akikijwe n'imodoka ku ruhande rwiburyo no ku ruhande rw'ibumoso.

Imodoka ebyiri nini zitwara abantu benshi ziparitse ahantu hamwe zifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru.

Inzu yicayemo abantu barimo umuzungu uri kuganira n'umuhungu, bicaye mu ntebe ku ruhande hari imitako irimo indabyo n'amarangi asize kubikuta.

lnzira iri kunyurwamo n'abanyamaguru isukuye, ku ruhande hari ubusitani buteyemo ibiti birebire n'udutebe abanyamaguru bicaramo, inyuma hari inyubako zigeretse.

Ikibuga cy'umupira wamaguru gifite ibyatsi bisa icyatsi, gishushanyijemo umurongo w'umweru, hanze hari umuhungu wunamye, uri gufunga inkweto.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye kigizwe n'amabara y'umukara n'umuhondo, kegereye umuhanda, cyerekana ko imbere ukase iburyo hari inzira

Icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu gifite amabara y'umutuku n'umweru gifashe ku cyuma, imbere hari gucaho ikinyabiziga kimwe.

Icyapa kiri ishusho ya mpande enye gifite amabara y'ubururu n'umweru, cyerekana ko mbere yuko ugera aho umuhanda urangirira hari akayira gakatamo iburyo.

Icyapa kirimo amabara y'umweru, umukara n'umutuku, cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri kigomba kunyura muri iyo nzira.

Icyapa kiri mu buryo bwa mpande eshatu, gifite amabara y'umutuku, inyuma umuhondo, ndetse n'umukara mo hagati, cyerekana ko imodoka z'imbere, n'iz'inyuma zose zemerewe kugenda.

Icyapa kiri mu buryo bwa mpande eshatu gifite amabara y'umutuku, umweruru n'umukara kimenyesha ko imbere gato mu kuboko kw'iburyo hari ikoni.

Ibyapa bibiri bifatanye, kimwe cyerekana ko bibujijwe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, ikindi kikamenyesha ko imbere hari icyuma gifotora.

Icyapa kiri mu busitani, cyegereye umuhanda, cyerekana ko ugomba kubanza ugatanga inzira ku banyamaguru, kiri muri mpande eshatu, gifite amabara y'umutuku n'umweru.

Ibyapa bibiri, harimo kimwe cyerekana ko gukatira mu ruhande rw'ububuryo bitemewe, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku mu ishusho ry'uruziga cyerekana ko iyo nzira itanyurwa.

Icyapa kiri mu buryo bwa mpande eshatu, gifite amabara y'umutuku, umweru n'umukara, cyerekana ko imbere mu ruhande rw'ibumoso hari umuhanda ukata.

Inzu zigeretse zigezweho ziri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, urimo ipikipiki, amamodoka atatu n'abantu bari guca ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka y'umweru n'amapikipiki abiri ndetse ku ruhande ufite inzira abanyamaguru bacamo, umwe mu bari kuyicamo ari kugana ku mutaka w'umuhondo.

Inzu eshatu zigerekeranye, harimo imwe ifite amabati y'umutuku, indi isize irange ry'umweru, indi isize irangi risa nk'umucanga.

Insinga z'amashanyarazi ziri mu ibara ry'umukara, ziri hejuru y'amazu afite amabati atukura ndetse n'insina z'ibitoki n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga n'umuntu uri kwambuka, haruguru yaho hari igiti kihateye ndetse n'amazu ahubatse.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga birimo moto n'imodoka, hagati y'umuhanda harimo ubusitani burimo amatara ibyapa n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo amatara ari kwaka, ku ruhande hari imodoka ziparitse ndetse na moto zitwaye abagenzi, zicanye amatara.

Umuhanda munini wa kaburimbo ku ruhande ufite akayira k'abanyamaguru, ku rundi ruhande rw'iburyo hari indabyo zihateye, n'ibiti hejuru hari ikiraro.

Mu masaha ya nijoro, amatara yaka, munsi y'ikiraro, hari abantu bahagazemo, ku ruhande haparitse abamotari benshi, bari kumwe n'abantu bafite amagare, n'abandi bagendagenda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti ku mpande, urimo kugendwamo n'abantu, amagare na moto, hejuru hariho ikiraro kiri kugenderaho imodoka.

Umuhanda munini ugizwe n'ibice bibiri, mu ruhande rw'iburyo harimo umunyonzi utwaye igare, uhetse igikapu gisa umukara, ari wenyine muri uwo muhanda.

Umuhanda munini urimo utumenyetso dusigishijwe irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo harimo ubusitani butandukanya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru baca, imbere hari ibinyabiziga birimo amamodoka abiri n'amamoto abiri, atwaye abagenzi.